Uburiri bwinshi kandi buri ku murongo, ni buriri kandi ubushashe, akenshi bukunda kuba buri ahantu abana batoya bigira, iyo bamwe barwaye cyangwa banani baza kuharyama, harimo n'ibishushanyo bitandukanye nk'ibiti ndetse n'abantu.

Ishuri ririmo abanyeshuri, ni abana batoya, baba bari kwiga mu mashuri y'incuke, bari hanze barimo gukina ni mu gihe cy'akaruhuko, bambaye amashati y'umweru, hasi akaba ari umukara, imbere yaho hari igiti gitanga cyangwa amashanyarazi, mu ishuri bigamo ndetse n'umurima uhinzemo.

Inzu yafatwa nk'ishuri. Iriho ibishushanyo bitandukanye bifatwa nk'imfashanyigisho y'abana kugira ngo babashe kumenya ibikoresho bitandukanye ndetse banabimenye mu mazina y'amahanga cyangwa mu rurimi rw'amahanga. Igishushanyo k'itoroshi, aho abana babatoza kurimenya mu zindi ndimi zigiye zitandukanye.

Abana bato bari mu mashuri y'incuke bari mu nzira, aho inyuma'ho hari ishuri bigiramo kandi ahantu bari hakaba n'indabyo nyinshi, abana bambaye impuzankano z'amajipo y'ubururu ndetse n'amashati y'umweru.

Ishuri, ni ishuri abanyeshuri bigiramo, mu muryango harimo umwana wambaye ikanzu y'umukara n'ishati y'umweru, ku gikuta k'ishuri hashushanyijeho ibishushanyo bine harimo icya mpande enye ndetse gikoze uruziga, ni ibishushanyo birimo imibare ndetse n'uturongo bigaragaza ko ari igishushanyo k'isaha cyangwa kigaragaza isaha.

Ishuri ryo mu mashuri abanza cyangwa ishuri ryigamo abana bakiri bato cyane bafatwa nk'abiga mu mashuri y'inshuke. Ishuri rirushanyijeho igishushanyo cy'ururabo, aho bifasha abana kumenya ururabyo mu zindi ndimi z'amahanga kandi hepfo gato handitseho ijambo ry'abanyamahanga ryitwa fishi, bishatse gusobanura ifi mu kinyarwanda.

Ishuri ni ishuri ririho bishushanyo bigiye bitandukanye hariho nk'igishushanyo cy'igishyimbo ndetse n'ibindi bishushanyo by'ibimera bitandukanye kandi hari n'abanyeshuri barimo gutambuka bambaye amajipo y'umukara.

Inzu y'ubucuruzi, hari ibicuruzwa biri mu nzu ndetse n'ibiri hanze, bimwe mu biri hanze harimo imifuka bacuruza kugira ngo bajyanemo utuntu, impande yaho gato haparitse moto, hagati yaho ku mapave hari umufuka upakiyemo ibintu bimeze nk'ibihingwa.

Ishuri ryubatse mu marangi ajya gusa umuhondo, hari ibishushanyo byifashishwa nk'imfashanyigisho ku bana bari mu mashuri y'inshuke, kugira ngo babashe kumenya amazina y'inyamaswa mu ndimi z'amahanga. Ibishushanyo biri kuri iri shuri harimo igishushanyo k'ihuku, ndetse hakaba harimo n'igishushanyo k'imbwa.

Ahantu hari ibikinisho by'abana, abana bamwe bari ku gikinisho cyo kwicunga gitanga umunyenga, aho baba bicaye ku mugozi noneho bakagenda bikaraga, noneho hirya gato hari ikindi gikinisho kizenguruka, naho hari ibikinisho bitatu, inyuma yaho kandi hari abandi bantu bakuru bahagaze barimo kureba abana babo.

Abantu batatu harimo: abadamu babiri n'umugabo umwe, bampaye agapfukamunwa kandi bari ku ishuri. Bafite akantu kari mu ikarito, ikarito ingana gutya ikunze kuba irimo imashini cyangwa ikindi kintu k'igicuruzwa.

Ibikoresho byifashishwa mu mibare, dukunda kuza mu bikoresho by'imbere by'ibanze bikenerwa mu gihe umuntu arimo kwiga imibare kuko harimo n'igikoresho kifashishwa mu guca uruziga kitwa kompa ndetse hakaba harimo na keleyo ishushanya, harimo n'amarati aca imirongo, agapima n'izindi digiri zigiye zitandukanye.

Umuryango munini uriho icyapa cyanditseho amagambo ati "murakaza neza mu kigo cy'amashuri yisumbuye cya Rukomo." Ni icyapa kiri ku muryango, umuryango uri mu irangi ry'icyatsi, bivuze ko ari amarembo yinjira mu kigo cy'amashuri yisumbuye.

Abana bakiri bato biga muri pirimeri cyangwa mu mashuri y'incuke, bambaye impuzankano, harimo amashati y'umuhondo, hasi bakaba bambaye icyatsi, bari ku gikinisho kibumvisha umunyenga, aho kibakaraga kizenguruka, bimeze nk'abana bari mu karuhuko, kugira ngo babashe gusubira mu ishuri.

Ibishushanyo bikoreshwa nk'imfashanyigisho mu bana b'amashuri babikoresha akenshi bari kwiga imibare cyangwa kubara, hano bari kwerekana inanasi imwe, umuneke umwe, imodoka imwe, noneho nyuma bakerekana ibikombe bibiri, ubutunguru bubiri ndetse na pome ebyiri.

Inzu yubatse neza, ni inzu isa nk'ishuri kuko iri mu miryango myinshi, wayifata nk'ishuri ryo muri sogonderi rifite imiryango y'ubururu ndetse yubatswe n'amatafari, ni ishuri rigeretse rimwe impande zaryo hari indabo ndetse n'ibendera ry'Igihugu cy'u Rwanda ririmo amabara y'ubururu, icyatsi n'umuhondo.

Ahantu hubatse amashuri ndetse kandi hubatse n'aho abantu bagomba gukarabira hariho n'amakaro, ibikorwa nk'ibi byubatswe igihe hari icyorezo muri bibiri na makumyabiri cya COVID, aho umuntu wese yagombaga kwinjira abanje gukaraba, ni mu kigo cy'amashuri aho umunyeshuri wese wagomganga kujya kwiga yabanzaga kubanza guca hano agakaraba.

Ibikoresho byifashishwa mu mibare harimo: kompa, mugomba gukoreshwa mu gusiba, kompa yo ikoreshwa mu guca uruziga ndetse n'amarati menshi aca imirongo akanapima amadigiri yo mu bishushanyo by'imibare.

Inzu nini kandi ingereritse rimwe. Ni inzu y'amashuri cyangwa igizwe n'amashuri menshi atandukanye, abana bigiramo. Ni inzu ifite imiryango isa icyatsi ndetse n'amarange y'umweru n'imireko y'ubururu.

Ibitabo byifashishwa mukiga, cyane cyane bikoreshwa n'abana, hariho ikayi ebyiri, ibitabo byo gusoma ndetse kereyo yo kwandika, irate, umukasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, hari n'akandi kantu ko kurya kari ku ruhande.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu kwiga ndetse no gushushanya. Muri ibyo bikoresho harimo ikaramu y'ubururu, umutuku, hakaba harimo umukasi, kereyo zishushanya, imashini yifashishwa mu guteranya imibare, goma isiba, ikayi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Ibitabo bitandukanye, bifatwa nk'imfashanyigisho z'abana. Harimo igitabo cy'Ikinyarwanda ndetse n'ibindi bitabo by'amasomo atandukanye. Ni ibitabo by'umwaka wa gatatu,, ikindi nicyo mu mwaka wa kabiri, ikind ni icy'umwaka wa mbere.

Umwarimu ari imbere y'abanyeshuri, bamwe bamanitse urutoki nk'abagiye kumusubiza, bishatse kuvuga ko umudamu w'umwarimu arimo kwigisha abanyeshuri kandi bambaye impuzankano y'amashati y'umweru, imipira yo kwifubika y'umukara n'umweru ndetse hasi na ho bakaba bambaye umweru, bari mu ishuri barimo kwiga.

Inzu nini mu buryo bw'umurambararo, akenshi izi nzu zegeranye gutya zikunze kuba ari amashuri abanyeshuri bigiramo, ni inzu yubabatse mu matafari matoya ahiye ndetse ibirimo imirongo y'umuhondo, imbere y'aho gato hari abanyeshuri harimo uwambaye ishati y'umweru ndetse n'undi wambaye umwenda wo hejuru w'umutuku.

Amazu meza kandi ari ku murongo harimo uburyo bukoze neza bw'indabyo zigiye zitandukanye n'inzira abantu banyura, ni amazu ameze nk'amashuri yo muri segonderi cyangwa amashuri asanzwe abana bigiramo.

Abana b'abanyeshuri bicaye muri sale cyangwa mu nzu nini, bicaye ahantu hamwe kandi bambaye impuzankano y'amashati y'umweru n'amapantaro cyangwa amajipo y'ikigina n'imipira yo kwifubika y'icyatsi kandi mbere y'aho hari abayobozi na bo bicaye ndetse n'abarezi, bameze nk'abagiye kumva ikiganiro cyangwa izindi gahunda zabahuje.

Abanyeshuri baricaye. Bicaye kuri pipitere, kandi bambaye impuzankano. Harimo bambaye ishati z'umweru n'ipantaro z'ikigina, ndetse abandi bakaba bambaye n'imipira y'ubururu. Bamwe bambaye agapfukamunwa abandi ntabwo bakambaye. Imbere yabo hari umuyobozi ufite urupapuro arimo kubaha ikiganiro. Aba banyeshuri biga mu mumashuri yisumbuye.

Abana b'abanyeshuri bane, bari mu kigero cyo ku biga mu mashuri yisumbuye, harimo abakobwa babiri n'abahungu babiri, abahungu bambaye impuzankano y'amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, abakobwa bambaye impuzankano y'amashati y'umweru n'amajipo asa ikigina.

Abanyeshuri bicaye hamwe barimo kwiga bari kwiga mu buryo bugezweho kuko bafite igikoresho bifashisha mu kwiga cyitwa mashini, ni abanyeshuri bambaye impuzankano z'umweru n'amapantaro y'ikigina n'imipira y'imbeho y'umukara, bamwe bari kwigira hamwe nk'itsinda abandi bari bonyine.

Abanyeshuri bicaye hamwe kandi bifashe neza, bameze nk'abari kumva ikiganiro bari guhabwa n'umuntu ubari imbere, ni abana bari mu kigero k'imyaka mikeya ariko bakaba biga mu mashuri yisumbuye, bambaye impuzankano harimo amashati y'umweru, ndetse hasi bakambara imyenda y'ikigina, bari ahantu muri sale barimo guhabwa ikiganiro.

Abanyeshuri batanu harimo umukobwa umwe n'abahungu bane. Bafite icyapa kijyanye no gutanga amaraso, bari gukora ubukangurambaga mu kigo cya kaminuza y'u Rwanda. Ibingibi bikunda guterwa inkunga n'ikigo gishinzwe ubuzima RBC.

Ikibaho gikunda gukoreshwa mu mashuri makuru nko muri kaminuza, aho umwarimu yandikaho amagambo ukaba wayasiba ariko adakoresheje ikaramu. Bikunze gukoreshwa ahantu hatandukanye nk'igihe umwarimu arimo gusobanurira abanyeshuri isomo ari kubigisha.

Inzu ku rubaraza hariho intebe zi'rimo amoko abiri, hari intebe ikoze muri palastike, indi ikaba ikoze mu biti, ikoze muri palasitike ni intebe wakwicaraho kegamau ukaba wanakandika wegamye, noneho indi ikoze mu biti ni intebe wakwicaraho gusa, nta kindi kintu wakoreraho.

Abanyeshuri batambaye impuzankano akenshi baboneka mu bigo bya kaminuza, bicaye mu ntebe z'ubururu, intebe nziza zifite aho wegamira, n'aho wicara ndetse n'aho ushobora kwandikira ibintu bigiye bitandukanye.

Ahantu hubatse neza harimo amapave mu nzira abantu banyuramo bagenda kandi ku ruhande hakaba hubatse ahantu abantu bagomba gukarabira mu gihe bagiye kwinjira muri iki kigo cy'amashuri. Hubakishije amakaro y'umweru kandi ikigo kirimo na jaride cyangwa indabyo nyinshi.

Abanyeshuri bari mu ishuri barimo kwiga ariko ntabwo bambaye impuzankano, ibi ngibi bikunze kuboneka mu banyeshuri biga muri kaminuza aho abanyeshuri bambara uko babonye atari ngombwa kwambara impuzankano, bicaye bamwe bafite imashini abandi bafite amakayi, imbere y'aho hari umwarimu ugiye kubigisha.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bambaye imyenda igaragaza ko bari mu kirori cya nyuma cy'abasoje kwiga kaminuza, bamanitse akaboko barimo gusoma ibintu bamanitse akaboko, muri iyo myenda bambaye harimo isa umuhondo n'umukara kandi bambaye n'ingofero bijyanye.

Ahantu hari inzu irimo amarangi ajya gusa umuhondo, imbere y'aho hari agakoresho gasa icyatsi aho gakoresho kifashishwa mu gushyiramo imyanda, cyane cyane abantu baba bari kunyura aho ngaho kugira ngo batatakaza imyanda ahantu bagiye hatandukanye, baterekaho kano kantu k'agakoresho kugira ngo buri muntu wese ufite ikintu cy'umwanda agitemo bazayijugunyire rimwe.

Abanyeshuri bo muri kaminuza harimo abakobwa n'abahungu, bicaye hamwe barimo kumva amasomo cyangwa bakaba barimo kwiga, imbere yaho hari porojegiteri igaragaza ibyo bari kuvugaho cyangwa ibyo barimo kwiga.

Abanyeshuri bo muri kaminuza bicaye neza kandi ku murongo imbere yabo hari umwarimu uri kubigisha, bicaye hari abafite amakaye abandi ntayo bafite, bicaye mu buryo bw'ibice bitatu.

Indabyo nyinshi kandi ziconze neza, harimo inzira y'abagenzi uruhande rutandukanya inzira y'abagenzi n'indabyo, harimo ahantu bubatse harimo amarangi y'umweru n'umukara, hepfo yaho gato hari akazu bashyiramo imyanda.

Intebe y'ubururu akenshi ikunda kuboneka mu mashuri yo muri kaminuza, aho haba intebe yegamirwa kandi ifite n'ahantu watereka nk'igikoresho nk'imashini, cyangwa ukaba wahandikira hateretseho rero indobo y'icyatsi, kandi imbere yaho hateretsemo indeba indobo y'umutuku ndetse n'ameza. Ni ahantu hasa nabi hameze nk'ahari kubera igikorwa cy'ubwubatsi.

Inzu nziza iri mu marangi y'umweru kandi igeretse rimwe, harimo n'indabyo zigiye zitandukanye zituma inyubako imera neza, kandi hari n'inzira y'abagenzi cyangwa inzira abantu banyuramo batanyuze mu ndabyo, irimo amapave. Ni ahantu heza hameze nko mu ishuri rya kaminuza niho hakunda kuba ari amashuri ameze gutya.